Kuba ahantu hari ibitaro cyangwa ivuriro, hari ibikoresho bihagije, hari abaganga bahagije ntago ari byo bituma abarwayi babona serivisi neza no kubaho aho hantu hari morare abantu baho bumvikana bituma serivisi z'ubuvuzi nazo zigenda neza.

Umuturage kugira ubwishingizi mu kwivuza ni ikintu cy'ingenzi kuko bituma abasha kubona serivise z'ubuvuzi ku gihe, nko mu Rwanda hari mituweli aho buri muturage wese yishyura mituweli ubundi akivuza nta nkomyi nta kibazo agize.

Amazi n'isoko y'ubuzima, amazi akorekwa mu bikorwa byinshi: barayakaraba, barayanywa, barayubakisha, barayatekesha, muri make ahantu hatari amazi nta buzima buba buhari, rero abayabonye baragerageza bakayabungabunga kuko guseswa na byo bituma haba ibura ry'amazi bikaba ikibazo.

Gukura neza k'umwana bihera mu minsi ye igihumbi ya mbere, kuva nyina mutwite kugeza avutse, iyo umwana atangiye kurya, nyina amumenyera kumuha indyo nziza yuzuye, bityo rero akanamujyana kwa muganga, akanamupima bakareba yuko koko afite ubuzima buzira umuze, haba hari ikibazo bakamwitaho kugira ngo azakure neza.

Iyo umwana avutse umubiri we uba utarakomera, aho usanga agenda arwara indwara zigiye zitandukanye, urugero nk'imbasa, rero iyo avutse biba byiza iyo umukingije akiri muto. Mu Rwanda rero bashyizeho gahunda yo gukingiza abana iyo bakivuka.

Bimwe mu byahashije Korona ni ugufata inkingo, mu gihe cya Korona mu Rwanda by'umwihariko abaturage bose b'u Rwanda bahawe inkingo ku bantu, aho wasangaga buri wese ahabwa inkingo eshatu mu mezi agiye atandukanye.

HPV ni urukingo rwo kurwanya indwara ya Kanseri y'umugongo, hamwe n'izindi Kanseri. U Rwanda, Canada ndetse na Ghana bari mu bihutiye mu gushyira ingamba wo gutanga zino nkingo kugira ngo bahashye mwene izo ka...

Abaganga ni abantu bakomeye cyane kuko batuma umuntu urwaye amererwa neza agakira. Bityo rero baba bakwiye ibikoresho bihagije kugira banoze serivisi zabo, kandi nanone bagahabwa ibindi bikoresho bibafasha kwirinda, bityo ku buryo byabarinda kuba bagira ikibazo mu gihe bari kuvura.

Mu bihugu bimwe bya Afurika usanga serivisi z'ubuvuzi ziri hasi, aho usanga ibitaro ari bikeya cyangwa se ibikoresho byo kwa muganga ari bikeya, cyangwa ukanasanga n'abaganga nabo aribakeya, ugasanga abaje kwivuza bamwe bataha batigeze babona izo serivisi z'ubuvuzi.

Amazi n'ubwo ari ingirakamaro mu mubiri w'umuntu nanone ashobora guteza ibibazo bikomeye, nk'urugero iyo amazi adasukuye, ashobora gutuma umuntu arwara inzoka cyangwa se nanone akaba yakwirakwiza icyorezo vuba kandi byihuse.

Unisefu ni ikigo mpuzamahanga, cyita ku burenganzira bw'umwana, n'imibereho myiza y'umwana. Aho usanga aho unisefu iri, ifasha abana kubona indyo yuzuye, bakagana amashuri, n'abari mu ngo, batishimye, bafatwa nabi, bakabashakira indi miryango ibitaho.

Afurika ni umwe mu mugabane ukunda guhura n'ibibazo ba serivisi z'ubuvuzi, aho usanga ibitro ari bikeya n'ibikoresho ari bikeya ndetse n'abaganga bo kukoresha ari bakeya, bityo rero byahagurukije ibihugu bya Afurika bashakira hamwe ibisubizo kugira ngo bahashye ibyo bibazo biri muri serivisi z'ubuvuzi.

Iyo umuntu avutse bakagira uburyo bamutwaramo cyangwa se ahantu akuriye ukuntu haba hameze, ni byo bikwereka imyitwarire y'ahazaza, rero iyo usanga nk'umuntu yarakuze bamutoteza hari igihe bimuviramo gukura ari umuntu wikunze, ukunda kuba ari wenyine.

Ubwonko ni igice cy'umubiri gikomeye kuko ni cyo gituma ingingo z'umubiri zose zikora, iyo kigize ibibazo rero bishobora gutuma umuntu amererwa nabi, nk'urugero kuba yaba pararize umubiri we cyangwa se akagira ikibazo cyo kwibagirwa cyangwa akaba yaba n'umusazi.

Koza amenyo ukoresheje uburoso n'umuti woza amenyo n'amazi meza, biri mu bintu bituma urinda amenyo yawe kuba yacukurika, ukarinda n'ishinenya yawe ndetse bikakurinda kuba wagenda unuka mu kanwa.

Amasukari ari mu bintu bituma amenyo yangirika. Rero kugira ngo turinda abana kuba barwara amenyo, ni ukubashishikariza kutarya ibintu by'amasukari menshi, kandi na bwo bayarya, bakibuka koza amenyo neza bakoresheje uburoso, hamwe n'umuti woza amenyo, kandi bakabikora neza, binyuze mu kubigisha mu mashuri.

Koza amenyo wifashishije uburoso n'umuti w'amenyo n'amazi meza bikurinda kuba watana n'indwara zigiye zitandukanye zo mu kanwa kandi ugasura na muganga w'amenyo buri byibura mu mezi atatu kugira wirinde izo ndwara ziterwa no kugira isuku nke mu kanwa.

Iyo abantu bakuze bacika intege cyane, hari abo usanga bakuze ariko ugasanga bakuranye n'indwara zigiye zikomeye kandi mu by'ukuri na bo bacitse intege bityo rero kugira bakomeze kwitabwaho, usanga hari inzu zahariwe abantu bashaje, bakeneye kwitabwaho cyane kurusha abandi.

Abakuze bakunda kurwara indwara zigiye zitandukanye arizo diyabete, umutima, bityo rero bakarya ibiryo bitarimo umunyu mwinshi, bakirinda kurya inyama nyinshi kugira ngo ubuzima bwabo bakomeze kuba bufite buzira umuze.

Abamama bakuze usanga ari bo benshi bacuruza mu isoko, kuko usanga ari bo bazi ibijyanye n'ibiribwa, haba n'abakunda guhaha ugasanga ari abandi bagore cyangwa se abandi bamama bakuze, iyo bahuye rero baraganira bakungurana ibitekerezo ku buryo bakwita kuri ibyo biribwa.

Abantu bakuze imibiri yabo iba itangiye gucika intege, ugasanga bari kubabara imigongo, amaguru cyangwa n'izindi ngingo zose zibabara kugira ibyo byose babyirinde rero bagume bakomeye basaba gukora siporo ihagije, bakananywa amazi menshi.

Imyitwarire y'umuntu kenshi biterwa n'ahantu atuye cyangwa se igihe arimo, ariko ahandi hanini biterwa n'ukuntu umuntu yakuze, ukuntu abantu babanaga na we bakuru nk'ababyeyi be abavandimwe bakuru ukuntu bagiye bamutwara, n'ukuntu bagiye bamwereka urukundo nibyo bimuha uko azitwara mu gihe kizaza.

Abantu bakuze usanga umubiri wabo waramaze gucika intege. Igihe uri kubitaho uba ugomba kuba wambaye agapfukamunwa neza, kugira ngo utabanduza indwara zica mu mwuka. Kandi ukaba usukuye neza kugira ngo utaba wabanduza n'izindi ndwara kubera ko ubakozeho.

Igihugu kugira ngo gitere imbere ni uko kigomba kuba gifite abaturage bafite ubuzima buzira umuze, bityo rero igihugu gishyiraho ingamba zo kugira ngo serivise z'ubuvuzi zibe zimeze neza abaturage bakomeze bagubwe neza igihugu nacyo gikomeze gitere imbere gitejwe imbere n'abaturage bayo.

Buriya umuntu kugira ngo amenye imiti afata uko agomba kuba ahora yipimishije, urugero niba urwaye diyabete biba byiza iyo uhora wipimisha kugira ngo urebe aho isukari yawe igeze, unamenye ingano y'umuti ufata.

Ibitaro usanga ari binini cyane, usanga hari igice cy'ababyeyi babyaye, igice cy'abana bavutse batujuje amezi, igice cy'indembe ndetse n'igice cy'ahantu wasanga imiti. Ibyo byose ni ukugira ngo banoze serivisi z'umurwayi waje ubasanga.

Amaso afite ukurwara kwinshi. Hari ukuba utareba kure, hari ukuba utareba hafi, hari no kuba utarabasha gutandukanya amabara. Igihe icyo ari cyo cyose wumva ufite ikibazo cy'amaso, ugana kwa muganga w'amaso akagupima, akaguha imiti cyangwa se akakwandikira, ukajya guhabwa rinete.

Kwa muganga bavura ibintu byinshi buri kintu rero bagira igice cyaho aho babivurira, inzu y'ababyeyi rero ni igice kimwe cyo kwa muganga bajyanamo ababyeyi bagiye kubyara, ababyeyi babyaye cyangwa abana bakivuka, iyo nzu rero y'ababyeyi cyangwa icyo gice cyo kwa muganga cyitwa inzu y'ababyeyi mu rurimi rw'amahanga babyita materinite.

Kwa muganga iyo bavura umuntu bakoresha ibikoresho byinshi, harimo ibipima umutima, ibyongerera umuntu umwuka, bityo rero iyo hari ibiburamo bituma kwa muganga batanoza serivisi baha abarwayi, kugira ngo rero serivisi zibe zinoze neza, nuko ibyo bikoresho bigomba kuba bihari kandi bikora neza.

Iyo wumva ufite ikibazo cy'amaso, biba byiza wihutiye kwa muganga, kugira ngo bagupime, bafatirarana iyo ndwara itarakura, urugero ni ba ubona utareba hafi cyangwagu utareba kure, biba byiza iyo wihuse ukajya kwa muganga, bakakuvura hakiri kare, iyo ndwara itarakura.

Umubyibuho ukabije ushobora kugutera n'izindi ndwara nyinshi zitandura ari zo, umutima, umuvuduko, ndetse n'isukari, kugira ngo rero ubigabanye cyangwa se ubihashye ugomba gukora siporo niyo wajya muri jimu ugaterura ibyuma cyangwa se ugasimbuka.

Kwa muganga ni ho bajyana umurwayi cyangwa ni ho umuntu ajya iyo yumvishe arwaye. Kuko ariho hantu usanga ibikoresho bakoresha bavura, imiti, ndetse ukanahasanga abaganga, bagufasha bakakuvura, bitewe n'ibyo bihuguriyemo mu bijyanye n'ubuvuzi.

Iyo umurwayi arwariye kwa muganga biba byiza iyo hageze igihe agasohoka hanze akajya ahantu hari akayaga, agatembera; akananura amaguru, rero niyo mpamvu usanga kwa muganga ahanini haba hariyo jaride, harimo n'udutebe abarwayi bicaraho cyangwa se abarwaza baje kuvuriza abantu babo basohoka bakajya kuhaturiza.

Mu guteza imbere ubuvuzi na serivisi z'ubuvuzi ni kubabaka ibitaro bijyanye n'igihe kandi bifite ibikoresho bihagije n'abaganga bahagije. Bityo rero abaturage bose bakivuza kandi neza nta kibazo bafite.

Kwa muganga cyangwa se ku ivuriro, uhasanga ibitanda. Ibyo bitanda aba ari iby'abarwayi, babandi baba bakeneye kwitabwaho amasaha makumyabiri nane ku yandi masaha makumyabiri nane. Iyo bamajije gukira, ni bwo basezererwa bakava kwa muganga.

Siporo zifasha umuntu kutarwara indwara zandura, urugero imitsi, umutima, bityo rero guhera ku muntu mukuru kugeza ku mwana bose bagomba gukora siporo kugira birinde izo ndwara zitandura ziva ku muntu zijya ku wundi.

Amazi ni ingirakamaro cyane ku mubiri w'umuntu kuko amurinda indwara zigiye zitandukanye, kuko usanga amazi asukura umubiri nk'urugero impyiko, impyiko zisukurwa n'amazi, ikindi amazi atuma umuntu agira umubiri ubobereye usa neza.

Muri siporo habamo imikino myinshi: nko koga, kwiruka, gusimbuka umugozi, guterura ibyuma, rero biba byiza iyo ku munsi ugize amasaha ukoreraho siporo. Na none si byiza cyane kumara amasaha menshi uri gukora siporo kuko binaniza umubiri n'ubwonko.

Iyo umuntu arwaye, cyane cyane iyo yaguye muri koma, iyo abyutse biragorana kuba yahita abyuka ngo agende, afate ikintu, agifate neza. Burya rero biterwa n'uko imitsi iba yaramaze igihe ikunje, itagikora, itarambuka. Kugira ngo yongere kurambuka ni uko akora siporo zigiye zitandukanye kugira ngo abashe kongera kumera nkuko yari ameze.

Siporo ni nziza. Ariko nanone iyo utiyitayeho ngo umenye ibyo ufata byongerera imbaraga umubiri, cyangwa se ngo unywe amazi ahagije, na byo bishobora kugutera ikibazo. Bityo rero iyo ukoze siporo, biba byiza niyo ufashe ibyongerera umubiri imbaraga, ukanywa n'amazi.

Iyo umuntu avuye muri koma batangira kumukoresha siporo kugira ngo imitsi ye irambuke abashe kongera kugenda nka mbere, ariko bakabikora gake gake kuko ntabwo aba abasha kuba yahagarara ku maguru ye yombi cyangwa agira ibyo afata neza, rero ibyo bakabikora bigengesereye kugira hatagira n'ibindi bangiza mu bice bye by'umubiri.

Iyo umuntu akora siporo ikoresha amaguru cyane ashobora gutsikira cyangwa akavunika, nk'iyo umuntu rero agize gutya agatsikira mu ivi bashobora kumurambura gahoro gahoro barambura uko kuguru kuko hari igihe usanga aba ari imitsi iba yifunzemo amaraso, mu kurambuka rero ni nako imitsi irambuka, amaraso agatembera bigafasha uwo muntu kuba yakongera akagenda neza.

Abantu bakora mu biro usanga akenshi bakunda kwicara amasaha menshi bityo rero biba byiza iyo ukoze akazi ariko na none ukagira igihe cyo gukora siporo kujyirango unanure uwo mugongo nayo maguru imitsi ibashe kurambuka utane n'indwara ziterwa no kumara umwanya munini wicaye ahantu hamwe.

Siporo ni igikorwa ngororamubiri, iyo umuntu akoze siporo asohora amazi mu buryo bwinshi, akaba yasohora amazi nk'ibyuya, iyo umuntu rero akoze siporo bimutera gushaka amazi, bityo rero iyo umuntu yakoze siporo anywa amazi menshi.

Iyo umuntu ari gukora siporo, amazi asohoka mu buryo bw'ibyuya. Rero iyo umuntu ari gukora siporo amasaha menshi atari kunywa amazi, bishobora kuviramo umubiri we kumagara. Bikaba byamutera kwikubita hasi, cyangwa se akagira isereri. Rero biba byiza iyo uri gukora siporo, ufata umwanya ukanywa amazi.

Guterura ibyuma biremereye ibi cyane cyane byo muri gm biba byiza iyo ubigenzuye neza kuko harigihe ushobora guterura ibidahwanye n'imbaraga zawe bikaba byaca imitsi yawe yo mu kuboko rero biba byiza iyo ubigenzuye neza.

Muri siporo habamo imikino myinshi, umuntu yo rero ari gukora siporo ashobora guhura n'ikibazo nk'urugero akaba yavunika cyangwa agasa akava amaraso, rero ahantu hose hari gukorerwa siporo hagomba kuba hari ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu yari ari gukora siporo akaba yahura n'icyo kibazo guhita abona ubuvuzi bwihuse akabona kuba yajyanwa kwa muganga bibaye ari ibintu bikomeye.

Igikakarubamba iri mu kimera gikunzwe gukoreshwa cyane mu buvuzi gakondo. Igikakarubamba akenshi bagikoresha bashaka gukiza nk'ibiheri biri ku mubiri w'umuntu, bamwe bakanakinywa kuko kibafasha gukiza mu nda, ariko si byiza cyane kwizera imiti ya gakondo, biba byiza iyo uganye muganga akagupima akamenya icyo ukeneye neza.

Ubuvuzi gakondo bw'ahantu runaka, buterwa n'umuco w'aho hantu. Kuko usanga biba byarahererekanyijwe mu bisekuru. Rero biba byiza iyo ugannye kwa muganga bakagusuzuma, bakaguha imiti ikwiranye n'iyo ndwara urwaye.

Usanga imiti bakoresha muri gakondo, cyangwa se ibi byatsi bakoresha bavura, iyo umuntu agannye abaganga ba gakondo ari byo n'ubundi bigaruka bigakora muri ibi binini bakora mu nganda. Byose rero biruzuzanya. Ariko na none biba byiza buriya iyo ugannye kwa muganga, bakakubwira imiti ufata kugira ngo ufate imiti ingana n'indwara ufite ni bwo ibasha gukira.

Umuti bisiga mu ntoki ukozwe muri arukoro mu ndimi z'amahanga witwa sanitayiza, ugufasha gusukura intoki zawe, mu gihe nta mazi ari kuri hafi, uwo umuti wifashishijwe cyane mu gihe cya korona bari guhashya iyo virusi.

Imbuto ndetse n'ibindi biribwa kamere nk'ubuki, tangawizi, indimu, biri mu bintu bituma umuntu amererwa neza bikanamufasha gukira indwara zigiye zitandukanye, nk'inkorora n'ibicurane kurusha uko umuntu yarwara inkorora n'ibicurane akifashisha imiti yo kwa muganga.

Abantu benshi cyane cyane bo mu cyaro, bakunda gukoresha imiti ya gakondo, kurusha imiti ya kizungu. Kuko baba bumva ko imiti ya gakondo ihendutse kandi yizewe kurusha iyo yindi ya kijyambere cyangwa iya kizungu iba yaranyujijwe mu nganda.